Laboratwari irimo umuntu waje gusuzuma ibyo yiga mu butabire, afite agacupa kanditseho amagambo atandukanye n'inyuguti, hirya hari akarubine k'amazi ndetse n'agatibe akoresha, arimo yambaye imyenda y'umukara, ndetse hakaba hubakishijwe n'amatafari ya ruriba.

Intebe za sheze ziteye neza kandi kumurongo. Imbere yazo hari ameza manini ku buryo buri mwanya ushobora kwicaramo abantu batatu batatu. Harimo umuntu hagati yazo, hirya hari ibipapuro byometse ku nzu bimwe bigaragara nkaho bigiye guhanka.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'imiryango ine ndetse no hirya hakaba hari irindi shuri, imbere yaho hari indabyo zanitseho imyenda y'umweru, kandi imbere y'ayo mashuri hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse hari n'ahandi hatari ibyatsi, hariho icyapa kuri iryo shuri ndetse n'urugi rw'umutuku.

Abanyeshuri batatu bicaye mu cyumba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga. Umwe ari kwerekera mugenzi we ukuntu radiyo ikorwa, ari kumwereke aho yapfuye. Undi afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ndetse hari n'akamashini kari imbere yabo kari kubafasha gukora iyo radiyo.

Inzu irimo ibikoresho by'ububaji, hateraniyemo abanyeshuri batatu, umwe yambaye ikoti ry'umutuku undi yambaye iry'ubururu ndetse hari n'undi kuruhande, bose bambaye rinete zabugenewe bafite inkezo mu ntoki ndetse n'imbere yabo ku meza, hari ibindi bikoresho byifashishwa mu bubaji.

Abanyeshuri bagaragara nk'aho bari kwiga umwuga wo gusuka, ndetse bakaba batandukanye harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bose bari kwiga imyuga itandukanye kuko hari abari kuboha, ndetse n'umuhungu ugaragara nk'aho afite imashini yifashishwa mu gusuka, bicaye ku ntebe.

Abanyeshuri biga gukora inkweto bazwi nk'abakorodoniye, bicaye mu ishuri ari benshi cyane, aho uyu afite igikoresho cyitwa umukasi ari gukora inkweto za masaye ndetse n'uw'inyuma ye, bakaba bambaye udupfukamunwa dutandukanye ndetse bambaye n'imyenda y'akazi, izwi nka' masurubeti hano hari umukobwa uri gukora inkweto zabagabo.

Inzu irimo abaganga batandukanye, aho bagiye gushyira mu bikorwa ibyo biga .harimo etajeri irimo amabasi, kandi abaganga nabo bambaye, amataburiya y'umweru, yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa.

Abanyeshuri bagiye muri laboratwari gukora ubushakashatsi, aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo microscopi ndetse bakaba bagiye bambaye n'imyenda yabugenewe.

Abana bari kwiga ibijyanye n'ubukorikori bwo gukora inzugi zimbaho, ari guteranya imbaho ndetse yambaye isurubeti y'ubururu yambaye na ekuteri mu matwi, ari kumwe na bagenzi be babiri nabo bambaye ekuteri.

Abanyeshuri bari gusuzuma intama ngo bumve indwara yaba irwaye, bagiye kuyipima ndetse umwe yambaye ibikoresho byabugenewe, udupfukamunwa ndetse n'indi iniforume, bambaye ibisarubeti ndetse ni benshi cyane bigaragara nkaho begeranye, inyuma ye hari umwana wambaye amarineti.

Ababaji bari gusena imbaho ndetse n'inzugi, bari kuzikubaho umuseno, bari mu gakinjiro, bakora ibikoresho bitandukanye, intebe, sheze ndetse n'ibindi bitandukanye, bafite kore ndetse bambaye n'imyenda itandukanye. Ibarizo ryubatswe mu buryo bwiza.

Umurima uteyemo imyumbati n'amateke, ndetse harimo n'urutoki, harimo abanyeshuri babiri bigaragara ko bari gukora ubushakashatsi, bambaye amataburiya y'umweru, umuhungu n'umukobwa, umukobwa afite imisatsi isutse, ndetse harimo n'ibigori bihinzemo bitari.